Ishuri riri kugaragara ko harimo n'intebe gusa nta banyeshuri barimo, intebe biri kugaragara ko hari iz'ibyuma ndetse n'imbaho.

Icyapa gishushanyije ahantu ku gikuta, kiriho ibintu, gishushanyijeho abana bari gukina.

Ikigo kimeze nk'aho ari icy'abanyeshuri b'abana, kuko harimo aho barira iminyega.

Ikigo cy'amashuri cya pirimeri. Biri kugaragara ko iki ari ikigo cyigisha abana b'inshuke, ndetse n'abana batangiye kujijuka.

Icyapa giteye ahantu kiri kugaragara ko ari nk'aho ari ku ishuri. Icyo capa cyanditseho amahame y'intore.

Ikibaho cyanditseho genero kwizi kemisitiri, bikaba biri kugaragara ko ari umwarimu ashyizeho isuzumabumenyi ku banyeshuri be.

Abana bavanze: abakobwa n' abahungu bicaye ahantu bari gukora imashini.

Abakanishi bari gukanika imodoka zitandukanye, bambaye ibisurubeti by'ubururu, hirya y'aho hariho n'amapine yashaje.

Abagabo bahagaze hejuru y'ahantu bigaragara nk'aho bari kuzamuraho inyubako, bambaye nk'abafundi cyangwa se abenjeniyeri.

Abagabo batatu bari mu ishuri bari gukora imashini zitandukanye, abandi bari gutyaza ku miseno.

Abanyeshuri bari mu ishuri bari kugaragara ko mwarimu wabo ari kubabaza ikibazo, bakaba bamanitse akaboko ngo bamusubize.

Abantu batatu bigaragarako ari muri resitora, iyi resitora ikaba ifite isuku ihagije. Harimo ibiribwa bigiye bitandukanye.

Abantu benshi barimo, abagore ndetse n' abagabo bari ahantu mu nzu bari gukora imashini.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri bakurikiye mwarimu ari kubasobanurira ibintu bigiye bitandukanye.

Abantu babiri biri kugaragara ko bari gukora akantu gata ibyuma, n'ibindi bintu bitandukanye.

Abanyeshuri bari mu ishuri, biri kugaragara ko babahaye ibizamini bari gukora, ikizamini gitandukanye.

Inzu iri kugaragara nk'aho ari mu isomero cyangwa se muri rabu y'abanyeshuri, kuko harimo imashini n'ibindi bikoresho byifashishwa.

Abanyeshuri bari gukora imodoka zo mu bikarito, ni batatu hariho umwarimu.

Abahungu bicaye ahantu muri karase, biri kugaragara ko aba bahungu umwe afashe imashini, ameze nk'aho ari gukarabya undi muhungu mugenzi we.

Abanyeshuri bari mu ishuri bakurikiye mwarimu, ari imbere ku kibaho, ari kubigisha.

Sale biri kugaragara ko harimo ibitabo byinshi, biri kugaragara ko aha hantu ari nko mu isomero runaka.

Umuntu wicaye imbere y'imashini, hari ibintu ari gukorera kuri izo mashini.

Umugabo wambaye isurubeti y'bururu, uri kugaragara ko ari gukora imashini runaka.

Umwarimuri uri kwigisha abanyeshuri tekinoloji zitandukanye, uri kubona ko buri munyeshuri afite imashini ari gukurikira mwarimu.

Umunyeshuri wicaye mu ishuri. Imbere ye hateretseho telefone, bigaragara nk'aho ari gukora ikibazo.

Abantu benshi bameze nk'abanyeshuri , bambaye imyenda isa n'amagofero asa ,uri kubona ko ari benshi.

Abagabo bagiye batandukanye bambaye isarubeti y'ubururu , bari muri sale har'ibyo bari gukora.

Abagabo bari gukora ibyuma bigiye bitandukanye, bambaye ibisurubeti byubururu, Bambie na za ga z'umweru.

Abanyeshuri bari mu ishuri bicaye bari kwiga ibintu bitandukanye ku mashini zabo. Abarimu bari kubigisha.

Abantu batatu bari gukora imashini runaka, bambaye ibisurubeti by'ubururu, bambaye n'udupfukamunwa.

Umugabo uri gukora imashini , wambaye isurubeti y'ubururu na ga z'umweru.

Abana bafite ibikinisho bigiye bitandukanye, birimo imodoka n'ibindi bitandukanye.

Umugore wambaye amarinete, wambaye n'isurubeti y'umweru, wambaye na ga z'ubururu, ufashe ikintu mu ntoki. ari gukora ikintu runaka.

Abantu benshi harimo ingeri zose, abakuru n'abagabo n'abatoya b'abagabo ndetse n'abagore, bari mu isuzuma, bari gukora imiti.

Umukobwa ufashe mikoro, wambaye ikigofero cy'umuhondo, igisurubeti cy'ubururu uri kugaragara nk'aho ari gukupa umuriro w'amashanyarazi, ari gusobanurira abandi bantu.

Abantu bicaye ahantu hameze nko mu biro. Bicaye imbere y'imashini, sinzi ibintu bari guteranya cyangwa se bari gukora.

Imashini zo kudodesha imyenda igiye itandukanye, izi mashini zimeze nk'aho ziri ahantu mu ruganda.

Inzu iri kugaragara nk'aho bakoreramo ubucuruzi butandukanye. Bushobora kuba ari alimantasiyo icururizwamo ibintu byo kurya.

Abantu bambaye amasurubeti y'ubururu ,bari gukora imodoka, bari kugaragara nkaho ari abakanishi.

Abanyeshuri benshi bakurikiye mwarimu , biri kugaragara ko mwarimu ari kubigisha isomo ritandukanye.

Umugabo uhagaze hejuru y'abanyeshuri, bicaye imbere y'ibikoresho bacuranga mu nsengero, cyangwa se mu birori.

Abakobwa bambaye imyenda isa, bameze nk'aho bari gusuka undi mukobwa mugenzi wabo.

Umwarimu uri mu banyeshuri, ari kubigisha ibikoresho by'ikoranabuhanga, kugira ngo bazagire ubumenyi bwiza.

Abantu batandukanye bari kugaragara ko bari kuririmba indirimbo zitandukanye, harimo abakobwa, ndetse n'abagabo.